Imfungwa n'abantu baba bari gushinjwa ibyaha bitandukanye, usanga akenshi ba bambitse amapingu, ndetse ntabwo amapingu abava ku maboko iyo bari hanze.

Abapolisi babungabunga umutekano w'abagenzi, kandi bakabungabunga n'ibinyabiziga, kugira ngo bidateza impanuka zo mu mihanda, ni ngombwa rero ko bubaha abapolisi kuko bafitiye igihugu akamaro kanini cyane.

Ku kibuga cy'indege, habaho indege nyinshi cyane, ndetse haba hariho imihanda, ziri kugaragara neza cyane, haba hariho ubusitani, mbese usanga ku kibuga cy'indege, ari ahantu heza cyane, haryoheye amaso y,umuntu.

Ingabo z'igihugu, zifitiye igihugu akamaro cyane kuko tutazifite ntabwo twaryama, ntabwo twasinzira, ntabwo twakwiga, iterambere ryose rigerwaho kubera ko hariho ingabo z'igihugu, zihora zibereye maso umutekano w'igihugu .

Mu bibuga by'indege basigaye bifashisha imbwa mu gusaka, ndetse zigafatanya na polisi mu gushakisha ibiyobyabwenge, cyangwa se ibindi bintu bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni muri urwo rwego rero akenshi basigaye bakoresha imbwa ku bibuga by'indege.

Umunara w' itumanaho uba wubatse ahantu, ku buryo urafasha abantu bakoresha ibikoresho by'itumanaho, usakaza amajwi yawo bitagoranye kandi akagera kure ahantu hose.

Abapolisi n'abantu bacunga umutekano w'abantu. Ndetse n'ahabaye inkongi z'umuriro bajya kuzizimya, kuko bagira ibikoresho kabuhariwe byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, hari nko kuzizimya ku maduka, ndetse no mu mabare atandukanye.

Abadaso bakora mu nzego z'umutekano, baba ari abakozi b'umurenge, bagomba gufatikanya na gitifu w'umurenge, kugira ngo babashe, kwinjira mu baturage kandi babafashe gusigasira neza, amajyambere y'igihugu.

Indege igenda mu kirere, itwara abantu benshi cyane, cyane cyane abari kujya mu mahanga, bazita za rutemikirere kubera ko zigendera mu kirere, kandi zitwara abantu benshi cyane, mbese zikora ubwikorezi bw'abantu muri rusange.

Inama ni ingenzi mu buzima bw'abanyagihugu, kuko igihugu kidakoraga inama nta bwo cyamenya ibibazo abaturage bacyo bafite. Niyo mpamvu abaturage bose bagomba kujya baritabira inama, kugira ngo barusheho ndetse no gusigasira umutekano wabo.

Inama ni ahantu abantu bateranira, bari kwiga ku bibazo runaka bijyanye n'uko bifuza, kandi haba hateraniye ingeri nyinshi z'abantu, haba hateraniyeho abagore, ndetse niyo babiteguye bararya, bakahafatira amafunguro bagataha bafunguye.

Inama ni ahantu abaturage bakemurirwa ibibazo byabo, cyane cyane nk'iyo bafite ibibazo by'ubuyobozi. barahajya maze bakahatangira ibibazo byabo. Imibereho yabo ikagenda neza, kandi ugasanga n'Igihugu kimenye abantu bari mu makaritsiye, cyangwa se mu midugudu, bitewe nuko bamenyekanira mu nama.

Inteko rusange y'abaturage ni inama ikorwa mu mudugudu cyangwa se igakorwa mu kagari, abaturage bakaganira n'ubuyobozi ibibazo bafite kandi ubuyobozi bukabafasha kubikemura, cyane cyane bakabungabunga umutekano wabo, bakabungabunga umutekano w'igihugu cyabo.

Inyambo ni inka zabaga ibwami，kandi cyabaga ari ikimenyetso， kigaragaza ko ibwami nyine hahora amatungo. Inyambo zabaga ari nk'umutako w'ibwami，wabonaga， ari ikimenyetso gisusurukije ibwami cyane.

Imbyino gakondo ni imbyino zigira injyana nziza cyane bakunda kubyinamo intore, bakunda kubyinamo imishayayo, ndetse habamo n'ibyo bita urukiramende. Iyo bakinnye iyo mikino usanga ari ibintu byiza biryoshye.

Intore zibyina neza cyane zigira umudiho uryoheye amatwi ndetse n'amaso, kandi intore iyo zaserutse mu birori zibyina neza cyane zikagira injyana ishimishije cyane cyane nk'iyo zambaye amayogi ,ubona ari ibintu byiza cyane.

Imitako gakondo ni ibikoresho abantu bakora bikagaragazako ari imitako yo mu gihe cyo hambere abantu bakoreshaga. Imitako gakondo habagamo amashusho y'abantu abajijwe, habagamo amashusho y'ibikoresho bifashishaga nk'ibibindi, n'ibindi bintu byinshi Abanyarwanda ....

Imbyino za kinyarwanda, ni imbyino zigaragara neza mu maso y'abantu, cyane cyane iyo abakobwa b'inkumi bari kuzishayaya, usanga ari ibirori binogerara amaso cyane ku bari kuzireba, ndetse zinaduserukira mu bihugu byo hanze, ugasanga u Rwanda tugaragaye neza mu ruhando rw'imbyino za gakondo.

Umuco nyarwanda ntugacike, umuco nyarwanda ugira imbyino nziza kandi abanyarwanda bagira umwihariko wabo wo kubyina , Ugasanga batandukanye cyane n'abanyamahanga . Abanyarwanda batega amaboko neza usanga imbyino zabo zifite ijyana iryoheye amajwi.

Kera bahekaga abageni mu ngobyi za kinyarwanda. Ndetse bakabashyingirana n'ibibindi birimo inzoga. Bahekaga umukobwa bakamujyana ku mugabo we. Akenshi banamujyanaga ku mugabo batakundanye bataziranye kubera ko ariko umuco wa kera waruteye.

Ipoombo bateresha umuti ni icyuma gikunda kugirwa nabahinzi, abahinzi babigize umwuga, baba bafite ipombo yo guteresha umuti mu myaka yabo, ari mu birayi, ari mu bishyimbo, ahantu hose bateramo umuti mu myaka, kugira ngo udukoko tutangiza imyaka yabo.

Abantu bakenerwa mu mibereho ya muntu ya buri munsi, twambara ari uko twaguze ibyo tugura n'abacuruzi, turya kubera ko twaguze n'abacuruzi, tubaho kubera ko dufite abacuruzi. Abacuruzi ni abantu bafite akamaro kanini mu buzima bwacu, bafite akamaro cyane cyane kuko tutabafite ntabwo twajya turabona ibyo dukenera mu mibereho yacu ya buri munsi.

Igicuma ni igikoresho cya kera, abanyarwanda ba kera bifashishaga, iyo babaga bafite ibirori, bashyiraga inzoga mu gicuma, bagasangira, ndetse n'icyo twitaga umuseke bakanywa, bagashyira inyota kandi bagasabana, ndetse mu nyubako za kera habagamo ibyo twitaga ibisigaka byabaga bikozwe n'ibirago, ibyo ngibyo, bigatuma ntawuvogera icyumba cy'abapfumu.

Umuco gakondo， ni umuco ugaragaza igihugu，ukagaragaza imiterere y'igihugu， ndetse n'imibereho y'abanyagihugu. Ni umuco utagomba gucika mu mibereho y'abanyagihugu，kuko iyo ucitse abantu bibagirwa ibyo bari bo， bakibagirwa abo bari bo.

Umuduri bawucurangaga ahantu habaye ibirori cyangwa se mu gitaramo, asangaga umuduri wigirira injyana nziza cyane kubari kuwumva, kandi iryoshya ibirori cyane, kuko usanga ahantu hari umuduri, hari ibirori bisusurutse cyane.

Mu muco wa kinyarwanda abakobwa baza gukwa wasanga bambaye neza, kandi bambaye imyambaro ya kinyarwanda ugasanga bari kugaragaza umuco wabo, mbese ukaba ubona basigasiye ko umuco wabo utazacika.

Ikibindi ni igikoresho gakondo abanyarwanda ba kera baracyifashishaga cyane, ndetse cyagaragaraga cyane mu muco wo kujya gushaka umugeni, bajyaga gusaba umugeni bikoreye inzoga mu kibindi, ibyo bikaba ikimenyetso cy'uko bazirikanye umuco wa Kinyarwanda.

Umuco nyarwanda ugomba gusigasirwa, kandi ukitabwaho n'Abanyarwanda ,kugira ngo n'abana bari kuvuka ubu ngubu batazibagirwa umuco, batazibagirwa uko igihugu cyabo cyahoze kimeze, ni yo mpamvu buri munyarwanda wese akwiriye kwita ku muco nyarwanda ,kugira ngo n'abana bacu bazajye babona isura y'umuco wacu wa kera.

Uburo babuhinga nk'amasaka barabubiba, ubundi iyo babibye uburo buramera wareba ugasanga ni utuntu tugiye tumeze nk'utwatsi, ariko nyuma bugenda burakura bumeze nk'umukenke maze bukazajya buzana utuntu tumeze nk'amahundo, n'iyo bagesa maze bakayasarura.

Umuduri ni igikoresho gakondo bifashisha bari gucuranga, kandi gicuranga injyana nziza cyane kuko abantu bari kuwumva bumva ari ibintu biryoheye amatwi, ukumva ni umuziki mwiza cyane unogeye amatwi.

Inanga ni igikoresho gakondo bacurangishaga kera, ndetse na n'ubu inanga ziracyacurangwa, kuko abantu bakera mu gitaramo bataramanaga umurya w'inanga, ugasanga igitaramo kirashyushye cyan, ugasanga rwose ni ibirori bibereye amaso.

Amasunzu cyabaga ari ikimenyetso cyo hambere， cy'abantu bo hambere， kandi cyakundaga kuranga abantu babaga ibwami. Amasunzu yogoshwaga abagore，yogoshwaga abagabo， abantu b'ingeri zose，ari mu bitsina byombi， habagamo ababaga bogoshe amasunzu.

Imidaho n'imyuko ni ibikoresho byifashishwa kuva kera, ndetse na n'ubu barabyifashisha mu guteka , uko umwuko uteka neza umutsima , umudaho wumva neza ko ibiryo bihiye , ndetse ukana nomba neza imboga kugira ngo abantu bazirye zinoze neza.

Intebe ya kinyarwanda，ni intebe abanyarwanda bakundaga kwicaraho cyane， cyane cyane ni nazo zakundaga kubaho mu gihe cyo hambere， kuko izindi ntago zari zagatangiye kuza， abantu bakuze cyane cyane abasaza n'abakecuru， nibo bakundaga kuzicaraho， kandi na n'ubu hari abantu bakizifite， bakunda kuzicaraho cyane, kuko zivura amavunane.

Akayunguruzo ni igikoresho bakoresha bari kuyungurura ifu, bari kuyungurura amazi, bari kuyungurura inzoga. Akayunguruzo kagira akamaro kanini cyane mu rugo. Ni byiza kugira akayunguruzo kuko ni ibintu byinshi gakenerwamo.

Umuduri ni igicurangisho gakondo. Kera bagicurangishaga mu bitaramo, mu nkera, ndetse na nubu kugira ngo bagaragaze ko umuco utagomba gucika, baracyagicurangisha. Hari uduce bagicurangishamo umuriro.

Isekuru ni igikoresha gakondo basekuriramo ubugari. Isekuru iba ifite umusekuzo bakawukubitisha imyumbati, imyumbati ikavamo ifu bakayiyungururira mu kayunguruzo barangiza bakayisuka mu cyabugenewe nuko bakarya ubugari.

Isinde ni igikoresho cya gakondo, abashumba ba kera bugambagamo imvura. Bakiboha mu birere, ndetse bakiboha no mu mbingo, bashyiramo urubingo iyo bari kukiboha, kugira ngo gikomere, maze imvura yagwa umushumba akacygamamo ntagire icyo aba.

Agaseke ni akebo bifashisha mu muco w'ikinyarwanda, ndetse bagaturamo icyo bita ipfukire, bakakagemuriramo umuntu, agaseke ndetse mu muco w'ikinyarwanda hari icyo kasobanuraga, nko ku bintu bijyanye n'ubukumi bw'abakobwa ba kera, hari icyo agaseke kasobanuraga cyane.

Ububumbyi ni umwuga wakorwaga kuva kera mu Rwanda rwo hambere, kandi nanubu buracyakorwa, ukorwa n'abantu batuye hafi nko ku ishyamba, cyangwa se n'abatuye mu turere tw'ibyaro, babumba inkono, babumba ibibindi, babumba n'ibindi bikoresho byinshi.

Intango ni ibibindi biba ari binini cyane bazengeramo amarwa, ndetse banaziterekamo, usanga abantu benshi bazifite mu ngo za bo, cyane cyane abagira intoki n'abahinga amasaka, bagira ibibindi bya rutura bita intango.

Umuvure ni igikoresho cya gakondo abanyarwanda bo hambere bacengeragamo inzoga, ndetse na n'ubu ahantu hakiba intoki baracyagifite, kuko bacengeramo umutobe. Umutobe utanga urwagwa abantu tukanywa tugahaga.

Ibibindi ni ibikoresho abanyarwanda, ba kera bakundaga gukoresha ndetse babibumbambaga mu ibumba, bacukuraga mu bishanga, bakundaga no kubitekamo, bakabikoramo inkono. Izi nkono za kinyarwanda ziteka neza, cyane cyane ko ibiryo byatetswe, mu nkono y'ibumba, biba biryoshe.

Intore ni abantu baba bazi kubyina cyane ndetse babyina bambaye ibihura mu mutwe. Babaga bambaye amasaro mu ijosi no mumbavu. Baba ndetse bakenyeye n'agahu k'ingwe. Babyina bafashe icumu maze umudiho wabo, uba uryoheye amaso cyane.

Abakaraza ni abantu bavuza ingoma, mu bakaraza habamo ingeri z'abantu benshi, habamo abakobwa, habamo abahungu, habamo abasaza, habamo ndetse n'abasore, abakaraza ni abantu baryoshya ibirori, iyo bageze mu gitaramo usanga ari igitaramo kiryoshye cyane.

Abakaraza, n'abantu basusurutsa abantu cyane cyane iyo bari kuvuza ingoma, iyo hari nk'ibirori, iyo hari umunsi mukuru ku kiliziya, iyo habaye ibirori ku mirenge nahano ku turere usanga abakaraza ari abantu bari gususurutsa abantu cyane, usanga rwose baryoheje ibirori.

Isogi ni imboga zikunda kuba mu bigunda. Usanga ahantu basaruye nk’ibishyimbo, cyangwa se bateye ibirayi, hakunda kumeramo isogi. Kandi isogi ni imboga zikundwa cyane ku barwayi ba diyabete. Ziravura, kandi zigabanya isukari mu mubiri w’abantu.

Inanga ni igikoresha gakondo cyifashishwa kera mu Rwanda rwo hambere ndetse cyatumaga igitaramo kiryoha cyane kandi abasaza ba kera iyo bakoraga mu murya w'inanga wumvaga rwose bifite injyana nziza cyane, na n'ubu ndetse hari aho bagicuranga inanga ukumva ibintu biraryoshye cyane.

Ibwami habayo abiru, baba bicaye iruhande rw'mwami . Buri gihe cyari ikizira ko umwami yagombaga kuba yicaye wenyine yagomba kuba afite ibyegera bye ari byo bita abiru.

Intore ni abantu babyina umudiho wa Kinyarwanda, ziba zambaye amayogi, ziba zambaye ibihura mu mutwe, ndetse ziba zifashe n'ingabo, z'ambaye n'amasaro mu gatuza agafata mu kwaha, ziba zikenyeye n'ibishura, zigira umudiho mwiza cyane uryohereye amaso.

Mu muco nyarwanda ingoma yari ikimenyetso cyabaga ibwami, ndetse no mu mikino gakondo hakoreshwagamo ingoma. Ingoma rero bivuze ko ari igikoresho gikenerwa, ndetse no mu nsengero bifashisha ingoma, mu buryo bwo guhimbaza imana.

Ubworozi bw'inzuki ni ubworozi bukorwa n'abavumvu, inzuki ni inyamaswa, ni utunyamaswa dutoya dutanga umusaruro, cyane cyane dutanga ubuki, ubuki bw'umwimerere buravura.

Inkono za Kinyarwanda bazikora mu mabumba, ndetse bakoramo n’ibibindi byo guturamo inzoga. Cyane cyane ko kera abantu baturaga inzoga mu bibindi, ndetse bakanaziterekamo intango bazinyweramo. Ugasanga ibirori biraryoshye.

7bwahato ni igikoresho kifashishwa mu kwambuka mu mazi. Amato aba ari ku nkengero z'ikiyaga, abagenzi bashaka kwambuka baciye mu mazi bakabwifashisha, kandi barayifashisha, kandi barayishyura kugira ngo bashobore kwambuka bagana aho bagiye, habaho amato ya moteri hakabaho n'amato asanzwe.

Imbyino za kinyarwanda ni imbyino zigaragaramo imishayayo ,imbyino zo gutega amaboko ukabona ni imbyino ziryoheye amaso cyane bakunda kuzikoresha nko mu birori, bakazikoresha nko mu bukwe kandi usanga ari imbyino rwose zijyanye n'ibirori cyane.

Umuvure bawengeramo ibitoki bawukamisha bari gukoresha amakoma, ishinge ndetse bakabivangavanga n'imineke bikabyara umutobe. Umutobe wo ubyara urwagwa. Kera iyo bengaga, abaturage bazaga kurya imineke, bakaza no kunywa umutobe uvuye muri ibyo bitoki.

Akuma gafungura amavisi, n'akuma kifashishwa cyane n'abatekinisiye, abantu bakanika, bakunda kugakoresha kuko kabafasha gufungura ibyuma, ndetse bakanapima ibyo bari gukora kugira ngo barebe ko bifite ubuzima.

Umurasire, ni uburyo bwifashishwa mu gucanira abantu badashoboye kubona amashanyarazi aturuka ku mazi, umurasire wo ukoreshwa n'izuba. Ufasha abantu bo mu biturage, ndetse n'abandi badashoboye kubona umuriro ubahagije bifashisha umurasire.

Amatara ya kijyambere ni amatara bakoresha mu mazu yubatse kijyambere na yo, usanga ayo matara ari kugaragara neza nko mu mazu, ari kugaragara neza nko mu masare, mbese usanga amatara ya kijyambere agize ahantu heza.

Ibiry'abarezi ni igikoresho cyakozwe n'abashinwa, ikirya'abarezi bagikira ahantu hakunda guteranira abantu benshi, nk'abanywa inzoga bari mu kabare, akabare kabamo icyirya'barezi, hakundaga kubamo abantu benshi bari kugikina, kandi usanga Kiri kurarura abantu cyane.

Urukiko ni ahantu bajyana ibirego byananiranye mu miryango cyangwa se mu bunzi bakabijyana mu rukiko kugira ngo bisuzumwe n'abacamanza babifitiye umwuga, babigize umwuga. Ibyo bibazo rero babijyana mu rukiko kandi urukiko rukabikemura neza impande zombi.

Urusengero ni inzu basengeramo, yakira abantu batandukanye abana, abagabo, abagore, abakuru n'abatoya, abasaza n'abakecuru, bose bahurira mu rusengero bagasenga, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro.

Inyubako zijyanye n'igihe nk'insengero cyangwa se n'izindi nyubako z'ubundi bwoko, usanga bari kuzubakisha ibiti hejuru ku gisenge cyazo, kugira ngo bitazahura n'ikibazo cyo kuguruka kw'igisenge.

Inyubako za kijyambere ni inzu ziba zubakanwa ubuhanga, zigeretse, ku buryo umuntu wese uzireba ahita abona ko zubatswe n'abantu b'abahanga. Kandi zifite ubuhanga buhambaye ku bafundi bazubaka.

Sitasiyo ni ahantu amamodoka anywera esansi, bigatuma akomeza urugendo, haba ndetse n'amamodoka ahanywera peteroli, mbese amamodoka kuri sitasiyo niho afatira ibyangombwa akenera.

Mu bitaro habamo ibitanda byinshi ariko buri gitanda kiryamaho umuntu umwe, buri gitanda kiba gifite pubele yacyo bajugunyamo imyanda umurwayi yakoresheje, iyo umurwaza ahageze aryama hasi nta buriri bw'umurwaza buhaba.

Inyubako za kijyambere ni inyubako zigezweho, zigendanye n'igihe cyane cyane nko ku nyubako z'ubuyobozi, ndetse no ku mavuriro, ni inyubako ziba zifite inzu nziza zigezweho zisakaye bya kijyambere, mbese n'inyubako ziba ziryoheye amaso.

Urusengero ni inzu y'Imana abantu bahuriramo, urusengero ruhurirwamo n'abakirisitu, ndetse n'abandi bantu baje gushaka ijambo ry'Imana, cyane cyane ko mu nzu y'Imana tuharuhukira mu mitima yacu tukumva tugize kwizera ko Imana itabara abantu bayo.

Inzu z'amayetaje ziba nziza cyane kuko iyo uzigerekeranije zitwara ubuso butoya, kandi ugasanga zituwemo n'imiryango myinshi imiryango irenze nk'itanu igatura mu kibanza kimwe. Ni byiza rero ko twubaka duhangira ubutaka kuko ubutaka buri kugenda buba buke mu gihugu cyacu.

Kuruwaruje ni umuryango wita ku mbabare utabara cyane cyane inkomere zakomerekeye ku mihanda, ndetse abanyamuryango bawo batanga n'amaraso yo gufashisha indembe ziyakeneye kwa muganga. Ni byiza rero kwita kubatagira shinge na rugero, kuko usanga biteje igihugu imbere.

Abasekirite ni abantu bacunga umutekano w'abantu, cyane cyane bakunda kuba nko ku mihanda igiye ku biro. Bakunda na none kuba nko ku mashuri, ku bigo by'amashuri, baba ahantu henshi hatandukanye kugira ngo bacunge umutekano w'abantu.

Inyubako z'ubuyobozi: n'inyubako zigomba kuba zubatse ahantu hisanzuye kandi zikaba ziri ahantu hegereye umuhanda, kugira ngo umuntu wese ushaka kujya gushakayo serivisi abone umuhanda umwegereye kandi agende bitamugoye cyane.

Inyubako z'ubuyobozi, usanga ari amazu bubatse ku buryo bwa kijyambere, kandi usanga hariho ubusitani butandukanye, hariho ibiti by'imbuto biribwa, ndetse haba hariho n'umuhanda mwiza cyane, ku buryo ubona koko ari ahantu hiranze.

Inzu za kijyambere, ni inzu bubakana ubuhanga buhanitse, cyane cyane usanga barazifatiye pura ihanitse, ku buryo uzireba ukabona koko zubakanwe ubuhanga.

Ku karere tuhabonera serivisi dukeneye, tuhabonera serivisi z'ubutaka, tuhabonera serivisi zijyanye n'amashuri, tuhabonera serivisi zijyanye zo kwivuza. Ku Karere ni ho dukemurira ibibazo byacu byose bijyanye n'iterambere ryo mu buzima bwacu.

Amashanyarazi ni igikorwa cy'iterambere gifasha abaturage gutera imbere mu bijyanye no kogosha ku masalo de kwafire, ku bijyanye na serivisi z'irembo, mbese amashanyarazi ni ingenzi ahantu hose. Uretse ko ahantu haca intsinga z'amashanyarazi hadakunda kwera cyane.

Umuganda ni igikorwa gikorwa n'abantu bose， ingeri zose zigomba kwitabira umuganda， kuko umuganda niwo utuma igihugu gisa neza，niwo utuma amashuri yubakwa， niwo utuma amajyambere agerwaho，muri rusange. Ni ngombwa ko abasore，inkumi，abagabo n'abagore， bitabira igikorwa cy'umuganda.

Umurasire bagusohora hanze ku kazuba; bakagutegeza izuba kugira ngo ubashe gukogota izuba riwufasha gucana mu gihe izuba ryo ritari kuva, ubikaga umuriro rero maze kugira ngo ubone uko uza gukoreshwa nijoro.

Mu mihanda mishyashya habamo amamashini aba ari kurima imihanda andi akagenda ari gutsindagira, usangaga akenshi amamashini abamo ingeri nyinshi zitandukanye, harimo atsindagira, harimo arima, harimo atunda ibitaka mbese akora ku buryo bwinshi butandukanye.

Amazu ya kijyambere aba ari amazu agerekeranye, usanga ari amazu yubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga, ku buryo uyareba nawe ugahita ubona ko ,abantu bayubatse koko ari abahanga.

Ku kiliziya ni ahantu abakirisitu bahurira baje gusenga, kandi ni ahantu haba Padiri ugomba kuganirira abantu ku bijanye n'ijambo ry'Imana ndetse akabwira abaturage, abakirisitu ubutumwa bwiza bwa Yezu kiristu.

Insengero zijyanye n'igihe, usanga ari insengero zifite ahantu hisanzuye, ho guparikaho amamodoka z'abakirisitu babaga baje kuzisengeraraho, kandi usanga zubatse ku buryo bwa kijyambere, bunogeye amaso, ku buryo umuntu wese yakwifuza kujya kuhasengera.

Ku kagari n ahantu haba ibiro by'akagari, kandi abaturage b'ako kagari niho bajya kwifashisha kugira ngo babakemurire ibibazo byabo, bahurira nabyo mu ngo zabo, haba mu midugudu ndetse no mu kagari nyirizina. Bahabonera serivisi zose bakeneye.

Urusengero ni ahantu abakirisitu bahurira bari gusenga, akenshi usanga ku rusengero hariho imbaga nyamwinshi y'abantu baje gusenga Imana, igatega amatwi ijambo ry'Imana, kandi rubanda nyamwinshi rutaha imitima yarwo yabohotse.

Urusengero ni inzu abakirisitu benshi bahuriramo bari gusenga. Cyane cyane usanga harimo ingeri z'abantu batandukanye. Urubyiruko, abagabo n'abagore, abantu b'ingeri nyinshi bahurira mu rusengero.

Ikiliziya ni ahantu imbaga y'abakirisitu iteranira ishengereye, iteze amatwi ijambo ry'Imana, kandi bari gutura igitambo cy'ukarisitiya. Baba bahagarariwe na Padiri. Ndetse iyo bibaye ngombwa haza na Musenyeri akaba ari we ufata ijambo mu mbaga y'abakirisitu yahateraniye.

Kiliziya ni inzu ivugirwamo ijambo ry'Imana ndetse abakirisitu niho bateranira bagasenga bakaganira n'Imana, ibyo bashaka kuyibwira, ndetse barahabatirizwa, barahakomerezwa, barahashengererwa, ibikorwa bya gikirisitu byose bikorerwa mu Kiliziya.

Urusengero ni inzu bubaka bayubakanye ubuhanga buhanitse, cyane cyane ko iba igomba kwakira abantu benshi kandi batandukanye, yakira abagore n'abagabo, ikakira abana n'abasore n'inkumi, usanga rero yubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga.

Ku rusengero ni ahantu, abantu basengera binjiramo bakicara ku intebe zateguwe mu rusengero bagasenga ndetse bayoborwa n'umupasiteri cyangwa se umupadiri akabigisha ijambo ry' Imana abahindukira bagahindukira, abandi na bo bakabitekerezaho, ariko bose baba ari abakirisitu.

Inyubako za leta ziba zubatse mu buryo bwa kijyambere, zigomba kandi kuba zifite ibigega bifata amazi mu gihe cy'imvura, kandi zigomba kuba zubatse ahantu hagari hisanzuye, kugira ngo mu gihe cyo guhura kw'abantu benshi batahabyiganira, zigomba kandi kuba zifite ibikoresho byabugenewe abaturage bagomba kwifashisha.

Ku murenge ni ahantu hatangirwa serivisi izo arizo zose, cyane cyane iz'ubutaka, izijyanye n'irangamimerere, hatangirwa serivisi zo gushyingirwa, hatangirwa serivisi zuburezi, ku murenge abaturage bakemurirwa ibibazo byose bafite.

Ni uruzitiro ruba rwubakishije amatafari ahiye, ruba rufite n'inkingi zo gutuma rukomera, ruba rufite n'ubusitani, indabyo n'ibindi biti byo gutuma hagaragara neza, uruzitiro rwa kijyambere kandi ubona rubereye amaso ku bantu baba bafite ubushobozi bwo kurwubaka iwabo.

Ababana n'ubumuga ni abantu baba bagomba kwitabwaho, cyane cyane kuko nabo nubwo baba bafite ubumuga ariko bagira umumaro kandi bakiteza imbere ndetse batezaga imbere n'igihugu cyabo kuko bakora imirimo nabo bagomba gukora.

Inteko rusange y'abaturage ni ahantu abaturage bahurira, bakaganira ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu, n'uko babona uko bayobowe, ndetse bakaganira no ku bijyanye n'umutekano wabo wa buri munsi. Bakaganira byimbitse, mu iterambere ry'igihugu cyabo.

Inzego z'ubutabera zirubahirizwa usanga kandi zigomba kubaho, kugira ngo zikorane n'inzego z'abaturage kuko ihohoterwa ribagamiye cyane cyane nko mu ngo, usanga bakwiriye kwita ku bantu bagirana amakimbirane yo mu ngo.

Mu rukiko nta ahantu, abantu baburanira, cyane cyane iyo bafitanye ibibazo byananiwe gukemukira mu miryango, cyangwa se ngo bikemukire mu bunzi, babijyana mu rukiko maze abacamanza bisumbuye bakabikemura.

Ikibuga k'indege kigwaho indege nyinshi, ari izivuye mu mahanga, ndetse n'izishaka kuyajyamo, usanga zose ziri ku kibuga k'indege, kandi usangaho urujya n'uruza rw'abantu bashaka kujya hanze, cyangwa se bashaka kuza mu Gihugu.

Enipidi ni umushinga wubaka imihanda ukayiharura neza, ni umushinga ushyira kaburimbo mu mihanda, ni umushinga wubaka amavuriro. Ugira ibimashini bya kabuhariwe biza bigasiza ahantu ho kubaka ayo mashuri, mbese ni umushinga ufite uruhare runini mu majyambere y'igihugu.

Amagare afasha abantu mu gutembera, cyane cyane ku bashaka nko kugira ahantu banyarukira, bafata igare bakagenda bamara kugera aho bashaka kugera, bakarigarura bakarisubiza aho barikuye. Kandi urugendo rwabo bapanze bakarukora neza cyane.

Ubwikorezi n 'ibikorwa bikorwa n'amamodoka, amamodoka bita amarongeshashi, amafuso bikorwa na none n'amamoto, ndetse n'amagare, bikorwa mu bijyanye n'ubucuruzi, kuko amamodoka maremare kandi manini, apakira ibicuruzwa bijyanye n'ibyokurya.

Muri gare ni ahantu abagenzi bahagarara bategereje imodoka zo kubatwara, bashaka kugira iyo berekeza ku bwo impamvu za bo ziba zibajyanyeyo. Muri gare rero ni ahantu hahurira abantu benshi cyane, bateze imodoka zo kubatwara.

Imodoka nini zipakira imyaka, zipakira imyaka myinshi, ugasanga imodoka yapakiye amatoni menshi cyane kugira ngo iyajyane aho igomba kuyajyana. Usanga rero imodoka zikenewe kugira ngo zibashe kujya gukura imyaka ahandi, ziyijyane mu kandi karere.

Amabisi ya Ritiko aparika ahantu hamwe. Agira parikingi yazo, kuko usanga ari yo yonyine aparitse, nta yandi mamodoka ahabarizwa. Usanga zigaragara neza, kuko umurongo wazo usanga ari zo zonyine zihari.

Amagare ya kijyambere apakira ibintu byinshi cyane cyane nk'abantu bari kubaka, abafasha kuvoma amazi kuko apakira ibidomoro byinshi cyane, akabijyana aho bari kubakira.

Abamotari ni abantu bakora ubwikorezi buciriritse bw'abantu ndetse n'ibintu. Bakunda cyane cyane kuba ahantu hudusantere, ahantu ho mu mijyi, ndetse abamotari bafasha abantu mu ngendo cyane cyane kuko batwara abantu bari kwihuta.

Abanyonzi b'amagare bakunda guhagarara, ahantu hari isangano ry'abantu benshi, kugirango bafashe abantu, mu gutwara ibintu ndetse n'abantu ku giti cyabo, barakenerwa rero m'ubuzima bwaburi munsi, kuko udafite ayo gutega imodoka, atega igare.

Amatasivatiri ni amamodoka matoya akora ubwikorezi bwo gutwara abantu. Cyane cyane nk'abantu bafite ingendo ziba ziri kwihuta, usanga bakunze gutega ayo mamodoka, kuko ntabwo atinda cyane nk'ayandi .Usanga ari kubageza aho bashaka kugera vuba bitabatindiye

Abamotari ni abantu bakora ubwikorezi rusange, bwo gutwara abagenzi cyane cyane abari kwihuta, abafite ingendo zihutirwa batega amamoto, kuko amamoto ari huta cyane kurusha uko warindira imodoka, iragutinza mu rugendo rwawe.

Abagenzi batega indege ni abantu baba bagiye mu mahanga akenshi ndetse baba ari nk'abanyamahanga bagiye gusura bene wabo mu ibindi bihugu, abandi baba ari n'abanyarwanda bagiye mu ubutembere biba byiza rero kugenda mu ndege.

Gare ya Nyabugogo ni ahantu haparika imodoka nyinshi cyane, ziri kujya mu ntara, ziri kwerekeza mu makaritsiye y'Umujyi wa Kigali, zijya ahantu hose hatandukanye, izo zose ziba ziparitse muri Gare ya Nyabugogo.

Volukano zitwara abagenzi ni imodoka nini kandi ndende cyane. Ziba muri gare, ndetse ziba no mu mihanda itandukanye yo mu gihugu cy’u Rwanda. Ni ajanse ikundwa n’abagenzi benshi cyane kuko itwara neza.

Amabisi atwara abana, ibimodoka biba ari binini cyane ku buryo bipakira abana bose ugasanga bipakiye abana benshi. Bifasha ababyeyi cyane mu bijyanye na taransiporo, kuko bituma abana badakererwa cyane. Ni byiza rero na byo ni iterambere ry'Igihugu cyane.

Muri gare ni ahantu abantu bategereza amamodoka. Abantu baba bashaka kujya kure maze bakaza gutegera amamodoka abajyana muri gare. Habamo amamodoka y'amoko menshi: Harimo amabisi, habamo amatagisi matoya, ndetse habamo n'amatagisi vuwatire. Ayo yose aba muri gare.

Parkingi ni ahantu hahagarara imodoka, ari bisi nini, ari imodoka ntoya z'ivatiri ndetse na rava, izo zose ni ahantu zihurira ziparitse, kugira ngo abarimo bavemo bagire ibyo bajya gukemura mu byo baba bifuza gukemura.

Amapikipiki ni ibinyabiziga byifashishwa n'abantu benshi, abantu benshi bakunda gutega abamotari kuko ipikipiki irihuta cyane kurusha n'imodoka, ndetse akenshi ifasha abantu bafite ingendo zo kwihuta.

Imihanda ikoze neza, usanga akenshi ari imihanda yagutse migari ku buryo nta mpanuka nyinshi zikunda kubamo. Kandi usanga ku mihanda hubatseho amazu y’amaduka kugira abagenzi babashe kugura icyo bakeneye.

Abanyonzi n'abantu bakora ubwikorezi rusange bw'abantu . N'abantu baciriritse kandi bakora ingendo ziciriritse za hato na hato , iyo umuntu adafite ubushobozi bwo gutega moto atega igare kandi rikamugeza aho ashaka kugera nta nkomyi.

Muri gare habamo amamodoka menshi atandukanye, usanga hariho urujya n'uruza rw'abantu, bashaka kwinjira muri gare cyane cyane babyiganira muri geti aho ngaho, bari gushaka kwinjira muri gare ngo bajye gutega amamodoka, bakeneye ko abajyana iyo bashaka kujya.

Imyitozo ngororamubiri ni imyitozo yakorwaga n'abantu b'ingeri zose cyane cyane n'abafite amakipe y'imipira y'amaguru bakunda gukora iyo myitozo kugira ngo babashe guhagarara neza mu kibuga. Bayikora kenshi kandi buri munsi kugira ngo batica imikino yabo.

Abakinnyi b'umupira n'abantu bakunda gukina umupira w'amaguru . Kandi ikipe iba igizwe n'abakinnyi bari hejuru ya cumi na babiri, abo bakinnyi bamwe bakina araba defanseri , abandi bakina imbere ndetse habamo n'umunyezamu abo bose bagirira igihugu akamaro kuko bari mu iterambere ry'igihugu.

Umukino wa basikete ni umukino uryohera abantu benshi, usanga kandi ukundwa n'ingeri zose abagabo n'abagore, abakobwa n'abasore, bose bakunda umukino wa basikete, kubera ukuntu ar'umukino unanura umubiri cyane.

Abakinnyi b'amarushanwa y'magare ni abantu bakunda gukora amasiporo kenshi cyane bagakora ingendo za hato na hato ba zikoresheje amagare. Iiyo habaye kuruse y'amagare usanga mu muhanda ibintu bishyushye cyane, abantu baje gushungera ngo barebe umukino w'isisiganwa ry'amagare ukuntu bagenda.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakunda guterwa inkunga n'inganda zikora inzoga nka za Sikoro, nka za Bararirwa, zibatera inkunga mu mikino yabo, kugira ngo nazo zigaragare mu iterambere ry'imikino, mu iterambere ry'igihugu.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, ni abantu baba ari barebare cyane, kandi ari abantu bagororotse kuko bakora imyitozo ngororamubiri ibafashaga kugira ngo imyitozo cyangwa se n'imikino yabo igende neza bagaragare neza mu ruhando rw'abandi makipe.

Tenisi ni umukino ukinwa, cyane cyane bifashishije ikintu kimeze nk'inkoko, bakawukinisha ndetse n'akadenesi gatoya, bawukinira ahantu ku kibuga hisanzuye, kandi ukinwa n'abantu bake bake, kuburyo uryohera amaso cyane ku bari kuwureba.

Abakinnyi ni abantu bakina imikino itandukanye, bakina umupira w'amaguru, bakina umukino w'amaboko cyangwa se umupira w'amaboko bakoresha intoki, bakina za tenisi , bakina imikino myinshi itandukanye kandi bagirira igihugu cyabo akamaro kanini.

Umukino wa basikete ni umukino uryoha cyane, kandi uba ushimishije kubantu bari kuwureba. Ni umukino uba uryoheye amaso, cyane cyane iyo uri kureba abahungu n'abakobwa bari kwirambura bari kuwukina, ubona cyane rwose ari ibintu biryoheye amaso, ukawukunda cyane, cyane cyane nk'iyo bari kwirambura bari gusama umupira, ubona rwose ari ibintu biryoshye.

Ikibuga cy'umupira kigira amazamu abakinnyi batsindiramo, kenshi na kenshi ndetse haba hariho n'ibyo twita amatapi atuma bashobora gukina neza. Ndetse n'iyo baguye nta bwo bakomereka kubera ko bagwa kuri ayo matapi.

Ikibuga cy'imikino ni ikibuga gikunda kuba gifite umutekano wuzuye. Bagicungira umutekano ababishinzwe kugira ngo bidateza akajagari, kandi gifitiye igihugu umumaro, kuko abakinnyi b'imikino bose ari cyo bitorezaho. Ni ngombwa rero kukibungabunga kugira ngo kibashe gufasha abakinnyi mu mikino yabo.

Abakinnyi ni abantu usanga bakunzwe cyane, cyane cyane ko imikino yabo ikunda kuryohera amaso ndetse usanga hariho abafana benshi baje kwihera amaso, abandi baje kuharuhukira kugira ngo birebere imikino ndetse kandi babashe no guteza imbere igihugu.

siporo ni imikino ngororamubiri kandi ikorwa n'abantu bose. Nta muntu uba atagomba gukora siporo, kuko umubiri w'umuntu agomba kugororoka kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Umukino wa handibolu ni umukino bakinisha bakoresheje intoki, uwo mukino ukinwa n'ingeri zitandukanye, abakobwa n'abahungu bose barawukina, kandi habaho n'amakipe y'abakobwa akina uwo mukino kandi agatwara n'igikombe.

Imodoka zikora amarushanwa y'imodoka, ziba arimodoka z'amavatiri, ndetse n'imodoka zigira umuvuduko uri hejuru cyane, zinagira moteri ihuma ukwayo, itandukanye na moteri yayandi mamodoka.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru ni umuntu uba agororotse uba yarakoze imyitozo ihagije cyane, kandi agera igihe cyo gutoranywa ngo ajye mu ikipe, ari uko yashimwe mu mikinire ye y'umupira w'amaguru.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakina neza kandi bambaye imyenda ya siporo, ndetse baba bambaye n'inkweto z'amagodiyo zibafasha gukina neza no guhagarara neza mu kibuga, kubera imiterere y'ikibuga. Ikindi kandi bagomba gukora imyitozo ihagije kugira ngo umukino wabo uryoherera abantu bawureba kandi ubashe no kubateza imbere.

Abakinnyi baba mu gihugu cyose, kandi baba mu ngeri zose z'abantu. abakobwa baba abakinnyi, abahungu baba abakinnyi, abagabo baba abakinnyi, ndetse n'abana batoya baba abakinnyi. Cyane cyane mu rubyiruko wasangaga ari ho higanjemo abakinnyi.

Abakinnyi ni abantu bakina umupira w'amaguru, bakina umupira umukino w'intoki, bakina imikino myinshi itandukanye. Kandi ni abantu baba bakomeye mu gihugu, kuko baserukira igihugu mu yandi mahanga, ugasanga bateje igihugu cyabo imbere mu mikino.

Abakinnyi bashaka gukinira igikombe, bagenda amahanga ndetse batega n'indege zo kubajyana, kandi buri gihugu kiba gifite abafana bacyo, kuko akenshi ikipe ijyana n'abafana bavuye mu gihugu cyayo.

Umupira w'amaguru ni umupira ushimisha cyane. Usanga abantu benshi bavuye mu ngo zabo bakajya kurara bicaye ahantu, bari kureba umupira w'amaguru. Ni umukino uteza cyane igihugu imbere, ugasanga mbese Igihugu kiramamaye kubera umupira w'amaguru.

Umukino wa basikete ni umukino uryoha cyane, abari kuwureba baba baryohewe cyane, kandi ukinwa n'abantu bagororotse ndetse bazi no kwirukanka cyane, kuko ari umukino ukundwa cyane, kandi n'ingeri zose, ari abagabo ari n'abagore bakina basikete bose.

Abakinnyi b'abakobwa bagira amakipe meza cyane akunzwe, kandi baserukira Igihugu mu iterambere. Kuko jenda balanse yahawe agaciro, kandi yashyizwe imbere. Ni byiza rero ko n'abakobwa bakangukira kujya muri za siporo.

Abakinnyi ni abantu bakundwa cyane cyane mu gihugu, kandi bagirira igihugu akamaro, kuko baranagiserukira, bakajya gukina mu mahanga ugasanga bahesheje igihugu cyabo ishema, kandi aba barakundwa cyane kuko abantu bajya kureba amakipe y'umupira, bikabashimisha kandi bikabaruhura mu bwonko bwa bo.

Abakinnyi mu kibuga, iyo batumvikanye neza mu mukino wabo, batera amahane ndetse bararwana akenshi. Kuko iyo hajemo amanyanga, usanga abagonganishije maze bakarwana hagati mu kibuga.

Abakinnyi ba basikete ni abakinnyi bakina bari kwirukanka cyane, kandi ni abakinnyi baba baragororotse kugira ngo babashe kunaga neza umupira mu rushundura rw'aho batsindira. Umukino wa basikete uraryoha ku bantu bari kuwureba uryohera amaso.

Imihanda ya kijyambere, ni imihanda iba irimo kaburimbo kandi ari imihanda migari, imihanda iba yaratakajweho bije nini y'amafaranga, ku buryo igomba kubunga bungwa kuko mu iterambere ry'igihugu kandi n'amajyambere mu gihugu agomba kwitabwaho.